Imodoka itwara ibintu ibivana mu gace kamwe ibijyana mu kandi gace. Iyi modoka igira amapine ane, umuntu utwara iyi modoka bamwita umushoferi. Iyi modoka kandi igira ibyuma biri hejuru yayo bimeze nk'urwego.

Umupolisi urindaga umutekano gw'igihugu, umupolisi ufite imbwa, imbwa bakoreshaga bari gusaka ibintu bitandukanye, amadobo garimo ibintu bitandukanye, ibikarito birimo ibintu bacururizaga muri iyi nzu.

Umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare cy'u Rwanda iriho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, urindaga umutekano gw'Igihugu n'ugw'abaturage, ufashe mikoro, mikoro bakoreshaga bari kuvuga kugira ngo amajwi agere ku bantu benshi icyarimwe.

Isekuru basekuriragamo isombe, isombe basekuraga abaga ari ibyatsi, bamara kuyisekura abantu bakayirya. Isombe bayiryaga bashizemo igikukuri gitumaga isha.

Intore zibyinaga zambaye amayugi n'imikenyero, ahantu hatatse bakoreraga ubukwe, itapi y'icyatsi izi ntore ziri kubyiniraho.

Intore zibyinaga zambaye amayugi, zifashe amacumu n'ingabo mu ntoki zabo, bambaraga imigara bari kubyina, imigara iba ikoze mu migwegwe.

Ikirago igikoresho babohaga mu busuna n'imideyi, bicaragaho ndetse bakacyanikaho n'imyaka ikirago mu Rwanda rwo hambere bakiryamagaho.

Igikoresho bakoreshaga bari gupima umuriro, gikunda gukoreshwa ku bantu bakoraga amatelefoni, bagikoreshaga bari gupima umuriro wa positivu na negativu.

Ikibuga bakiniragaho umukino gwa volebolo gukinwaga n'abantu batandatu itandatu kuri buri ruhande, hagati habagamo igitandukanyaga amakipe abiri kitwaga file urengejeho umupira, umu kipe imwe ukinaga inshuro itatu indi itatu iyo urengeje inshuro itatu ubwo ugwo mukino uba ugwishe inota uba uritsinzwe.

Imashini itsindagira umuhanda, abantu bayikoresha bari gukora umuhanda. Iki kintu cyikaraga kigenda kiri guhinda. Gitwawe n'uriya muntu. Ari kujya atsindagirisha umuhanda. Iyi modoka umuntu uyitwara aba afite perime ya nyuma bitaga F.

Abantu bambaye imipira z'umweru bahagaze bakikije icyapa cyanditseho amagambo gari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, bahagaze imbere z'inzu ziriho ibirahuri n'inzugi.

Indege itwara abagenzi, ibavanye mu gihugu kimwe, ikabajyana mu kindi gihugu, iyi ndege yanditseho amagambo RwandAir . Rwandair sosiyete itwara indege mu Rwanda, ivana abantu mu Rwanda ikabajyana mu kindi gihugu cyo hanze y'u Rwanda.

Umuhanda gunyuragamo amamoto n'amamodoka. Habagaho umuhanda go kuruhande gunyuragamo abanyamaguru hagati bateragamo ibiti by'imikindo, ku ruhande bateragaho ibiti binini bitari iby'imikindo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu haparitse amamodoka menshi. Amodoka atwara abantu, akabavana ahantu hamwe akabajyana ahandi. Aba bantu baje gushaka imodoka, ngo zibavane mu gace kamwe zibajyane mu kandi gace. Imitaka ya MTN bacururizamo amayinite.

Umuhungu uhagaze ufashe igikoresho bakinisha umukino wa tenisi, uhagaze ahantu hari amapave, bashyira ahantu kugira ngo habe heza. Inzu yo hirya yubakishije borokesima, indi nzu yo hirya ibaho ibirahuri.

Abantu bambaye imyenda z'ubururu, bakambara imipira z'icyatsi. Inzu ndende yubakishije ibirahuri. Ibiti bibiri bitwaraga amashanyarazi go gucana.

Umukino wa Futuboro ukinwa n'amakipe abiri, imwe ifite abakinnyi cumi n'umwe, indi na yo ikagira cumi n'umwe, bawukinira ku kibuga cy'ibyatsi, icyo kibuga kibamo amazamu, ayo mazamu ni yo batsindamo igitego.

Umuhanda abantu banyuragamo, guteyeho ibiti, inzu zisakaje amabati g'umutuku, ibipangu byubakishije amatafari gahiye, amapoto gariho insinga zitwaraga umuriro ziwuvana ahantu hamwe zikawujana ahandi.